Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye, harimo n'abahinzi bigaragara ko barimo gusarura, hariho n'umuntu wikoreye umufuka muremure, awujyanye mu rugo, kugira ngo bibatungire ubuzima.

Ikibaya gihinzwemo umuceri ushimishije uhinganywe imvaruganda, ureze barimo no kuwusarura kugira ngo bawujyane ku masoko babonemo amafaranga ndetse ubatungire n'umubiri babeho neza bishimye.